Umugabo wicaye muri kabari, kumeza hari ikirahuri kirimo inzoga n'icupa, iruhande rwe hari tereviziyo, ameza, intebe ziriho ubusa, inzoga si nziza ku mubiri w'umuntu.

Inzu y'igorofa ifite ibirahuri bya fime, hakabaho n'ibishushanyo byamamaza, imbere yaho hari igiti cy'umukindo, ndetse n'imodoka nyinshi, hakaba umudamu wambaye ikanzu y'umuhondo, ndetse n'abagabo bari kwinjira mu modoka.

Imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo, inyuma gato hari umusekerite, imbere yayo hari abantu, iruhande rwayo hakaba inzu y'igorofa, hirya gato hakaba umusozi uriho ibiti bitoshye kandi...

Indoryi ziririmo mubase iruhande rwayo hari indoryi zifunze ku mifungo, hakabaho n'inyanya zitanditse ku mifungo. Iruhande rwaho hakaba hari umudamu wicaye bigaragara ko ari kuzicuruza kandi akaba ari musoko.